Umuntu uhetse icyuma gitera umuti, akaba arimo atera umuti wica udukoko ku bihingwa. Akaba ari umuti wirukana udukoko ndetse n'ibindi byonyi.

Abantu babiri bambaye imyenda y'ubwirinzi bakaba bambaye bote, isarobeti ndetse bambaye n'ingofero bakaba bahetse mu mugongo icyuma gitera umuti bakaba barimo batera ibigori.

Umuhinzi urimo gutera imyaka ye imiti akaba arimo ayifutera akoresheje akamashini. Ino miti ikaba ifasha mu kwirukana udukoko twangiza ibihingwa.

Umuntu uhetse icyuma gitera imiti akaba arimo gutera ibitunguru akaba yambaye inkweto zifunguye, ndetse ahetse n'icyo cyuma mu mugongo.

Imiti myinshi itandukanye y'ubuhinzi, akaba ari imiti ipakiye, imwe iri mu mashashi, indi ikaba iri mu tudobo ndetse harimo n'indi, iri mu macupa, ikaba yifashishwa mu buhinzi.

Umuntu uhetse icyuma gitera umuti, akaba ari gutera intoryo, izo ntoryo zikaba zihinze ahantu mu mibyare, inyuma ye hakaba hateretse ijerekani irimo amazi.

Ibyuzi by'amafi byubatswe ahantu heza hakaba ari ibyuzi birimo amazi, muri ayo mazi bakaba bororeramo amafi, hakaba hubatswe n'utundi tuzu bororeramo amatungo magufi nk'inkwavu.

Icyuzi cy'amafi bakaba bororeramo amafi atandukanye, akaba ari icyuzi kirimo amazi ndetse iruhande rwacyo hakaba hahinze urutoki.

Abantu batandatu bahagaze imbere y'icyuzi cy'amafi bigaragara ko bafite ibikoresho biteguye kuroba ndetse hakaba harimo umwe wambaye isarubeti ndetse na bote.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ifi, bigaragara ko ayikuye mu mazi, akaba ari ifi imaze gukura, izo bakunda kwita isamake, akaba ari ifi nziza cyane.

Abantu babiri bigaragara ko bafite ibikoresho byifashishwa mu kuroba ndetse bakaba bafite n'amwe mu mafi bamaze kuroba.

Umuntu wambaye ipantaro ndetse n'umupira, akaba yambaye n'agapfukamunwa mu ntoki ziwe akaba afite ifi ahagaze inyuma y'uruzitiro rw'umweru.

Umuntu uhetse igitimbiri akaba ari mu murima w'icyayi, akaba arimo kugisarura inyuma yiwe hakaba hari abandi bantu batatu.

Umuntu uri mu murima w'icyayi, akaba yiteze ndetse akaba afite n'ibitimbiri bibiri bigaragara ko arimo gusarura icyayi.

Umuntu urimo gusarura ikawa akaba ari ikawa nziza kandi yeze, akaba arimo kuyisarura akoresheje amaboko yombi.

Abagore benshi bahagaze mu murima uteyemo ikawa ndetse bakaba bambaye imyenda isa, bakaba bafite ikawa mu ntoki bigaragara ko barimo gukangurira abantu guhinga ikawa.

Ibihingwa byiza cyane by'ikawa bikaba bihinze ahantu mu murima inyuma yabyo hakaba hari amaterasi akozwe neza ndetse hahinzwemo ibindi biti.

Ikawa kimwe mu bihingwa ngengabukungu bizamura ubukungu bw'igihugu cyacu ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange, hano haragaragara umuturage yishimira umusaruro yasaruye w'ikawa ndetse ubona ko yiteguye kuba yawujyana ku isoko, maze na we agakirigita ifaranga.

Imwe mu miti y'amatungo akaba ari imiti myinshi ikaba ipanze ahantu hamwe ndetse ikaba ari imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike aho yanditseho ogisi tetara sayikirini.

Imiti itandukanye y'amatungo ikaba iri mu macupa atandukanye, hari imiti iri mu macupa ndetse n'iyindi iri mu bitoyi byabyo, ikaba yanditseho miritijekiti.

Rimwe mu miti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo, bakaba bayifashisha mu kuvura inka, ihene, intama ndetse n'andi matungo atandukanye.

Imiti myinshi itandukanye, bifashisha mu bworozi bw'amatungo, hakaba hari uducupa twinshi, harimo ndetse n'imiti y'ibinini, aho harimo udupaki twanditseho niriza, akaba ari imiti ivura inzoka ndetse n'ama vitamine.

Imiti myinshi yo mu bwoko bumwe, ikaba yanditseho ampolokogisi, akaba ari imiti ikorwa n'Abaholandi, ikaba ivura inka, ihene ndetse n'inkoko.

Imiti myinshi itandukanye, yifashishwa mu bworozi bw'amatungo, cyane cyane inkoko, akaba hari imiti yifashishwa mu bworozi bw'inkoko cyane cyane izitera amagi.

Kimwe mu gikoresho cyifashishwa n'abavuzi b'amatungo, akaba ari igikoresho kifashishwa mu gukoa cyane cyane inyamaswa z'ibigabo kugira ngo zitazabyara.

Umworozi wahinze ibihingwa bye akaba yarabihinze hagati y'ahantu hahinze ibindi biti birebire, bino biti bikaba byifashishwa mu gukurura umwuka mwiza.

Umugabo urimo gusunika igare ndetse iryo gare hakaba harimo ibiti, akaba ari kurisunika ahantu mu mukenke bigaragara ko ibiti biremereye.

Umuhinzi w'umugore akaba yambaye umupira ndetse yambaye ni'ijipo irimo amabara y'umutuku. Akaba ahagaze iruhande rw'ibigori, bigaragara ko ari ibigori byiza kandi bigiye kwera.

Inka nyinshi zororewe ahantu hamwe, zikaba zubakiye ku buryo bugezweho. Izo nka higanjemo iz'umukara ndetse zose zikaba zambaye amaherena.

Umugore ufite ihene mu kiziriko akaba arimo ayikurura ayijyana kuyizirika ahantu hari ubwatsi ngo irishe.

Abantu benshi, biganjemo abagore bari mu murima bisa nk'aho barimo gusarura ibigori, akaba ari abagore benshi, bambaye ibitenge ndetse baniteze mu mutwe.

Ibihingwa bikiri bito hakaba harimo ibishyimbo ndetse harimo n'inyanya. Akaba hari ibihingwa bigaragara ko bimeze neza kuko bihinze ahantu hari ifumbire.

Igihingwa kiza cyane k'imyumbati kikaba giteye ahantu mu murima aho gisasiwe neza bagisasiye bakoresheje ibigori,

Ahantu hahinze igiti cy'umwembe, munsi yacyo hahinze ibindi bimera bitoya, hirya y'umwembe hakaba hahinze ibindi biti birebire.

Ibigori bihinze ahantu mu murima, akaba ari ibigori byiza, byitaweho, inyuma yabyo hakaba hahinze urutoki.

Igihingwa cy'umuceri gihinzwe ku buso bunini kikaba gihinze ahantu mu gishanga, hirya y'igishanga hakaba hari imisozi iteyeho ibindi biti.

Umuntu ufite isuka, uhagaze hagati mu murima w'umuceri ndetse iruhande rwe hakaba hahinze n'ibigori byiza ndetse muri icyo gishanga hakaba harimo n'izindi nyamaswa.

Ibiti byiza cyane biteye ahantu hakaba ari ibiti birebire byifashishwa mu gukurura umwuka abantu bahumeka, akaba ari ibiti byiza cyane.

Inzira ntoya, ica ahantu hagati y'imirima, akaba ari inzira, iruhande rwayo hateye ibigori ndetse hakaba hari n'ibindi biti birebire bihateye.

Inyubako nziza cyane zikaba zubatswe ahantu hahinze ibiti byinshi hakaba ari ibiti byiza byifashishwa mu kuzana umwuka abantu bahumeka.

Umuntu uri mu murima uhinzemo amatunda ndetse akaba arimo kuyitaho, akaba arimo ayayobora ku mikwege kugira ngo adakora hasi.

Umuntu uri mu murima w'iwe, uri kureba ibitunguru ko byeze, akaba ari ibitunguru byiza, bigaragara ko byahinzwe neza kandi ko bifite umusaruro mwiza.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, abagabo bafite amasuka, bakaba bari mu bikorwa byo guhinga. Ndetse akaba ari ahantu hashakaje ihema.

Ibiti byiza cyane biteye ku murongo hagati yabyo hakaba hari ubusitani, akaba ari ibiti byifashishwa mu gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka.

Umugore wicaye mu murima w'ibijumba, akaba arimo kubagarira imigozi, akaba akenyeye igitenge, yambaye umupira w'ubudodo ndetse yambaye n'ishati mo imbere, iruhande rwe hakaba hahinze urubingo.

Umugore wambaye uturindantoki, yambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'amaherena ku matwi, akaba ari kwita ku ndabyo nziza cyane, indabyo zisa umutuku, izindi zisa move.

Umuyoboro munini w'amazi wubakiye ukoreshejwe amabuye ndetse na sima, uyu muyoboro ukaba ufasha amazi kugenda adateje isuri.

Ubuhinzi bwiza bugezweho, akaba ari ubuhinzi bukorwa hifashishijwe imashini zifasha kuhira, akaba ari ubuhinzi buteye ku murongo, aho buri gihingwa kiba cyisanzuye.

Umugabo ufite ibikoresho byifashishwa mu kuhira imyaka ndetse akaba arimo no kuyuhira, akaba yambaye n'ingofero mu mutwe.

Ikibaya cyiza cyane kiri ahantu heza hatari imisozi miremire hakaba hahinze ibimera bitandukanye ndetse hakaba hari n'ikirere cyiza.

Ikiyaga kiri ahantu hagati y'imisozi akaba hari ikiyaga, iruhande rw'aho hahinze ibiti bikurura umwuka ndetse mu kiyaga kikaba cyifashishwa mu kuhira bino biti.

Ubworozi bugezweho bw'inkwavu, bukaba, bwubatse bya kijyambere. Hakaba hahagaze abantu, harimo abambaye itaburiya z'umweru, bisa n'aho bari mu bushakashatsi.

Ubworozi bw'ihene akaba ari ubworozi bwubakiwe ahantu heza, hasi hakaba hapavomye na sima ndetse ku mpande hakaba hari ibyuma bibuza izo hene gutoroka.

Inka nziza cyane ziri mu rwuri, hakaba ari ahantu heza hari ubwatsi ndetse inyuma y'aho hakaba hateyemo ibiti bifasha kuzana igicucu.

Inka nziza ziri mu kiraro kiza cyubatswe hakoreshejwe imbaho ndetse kikaba gishakajwe n'amabati. Ku mpande hakaba hariho ibyuma ndetse akaba ari ikiraro kiza.

Ubworozi bw'inkoko akaba ari ubworozi bwiza ndetse bugezweho, zi akaba ari inkoko ziganjemo imishwi aho zigaburirwa ibiryo bya kijyambere.

Ikiraro cyiza cyubatswe hifashishijwe ibiti ndetse n'imbaho. Hakaba harimo ingurube ebyiri ndetse izo ngurube zikaba zirimo gufata ibyo kurya.

Ubworozi bw'inkoko akaba ari ubworozi bugezweho ndetse butanga inyungu. Izi akaba ari inkoko zitanga amagi ndetse zikaba zinatanga umusaruro w'inyama.

Inka nziza cyane, ziri ahantu mu rupangu, bigaragara ko zidashobora gutoroka, zikaba zambaye amaherena ndetse zikaba zifite n'imigozi mu mazuru, izifasha kuguma aho ziri.

Ni ubworozi bw'inkoko, Akaba ari ubworozi bwa kijyambere. Akaba ari inkoko zororewe ahantu mu cyumba bigaragara ko bazizanira ibyo kurya.

Abavuzi b'amatungo bambaye amasarubeti ndetse abandi bambaye amataburiya bose bakaba bambaye uturindantoki umwe muri bo akaba arimo gukora ku nka bigaragara ko arimo kuyivura.

Umugore wakenyeye igitenge, ndetse yaniteze mu mutwe. Akaba arimo kwanika ibigori biri ahantu ku ihema, kugira ngo byumuke.

Umuntu ufite imbuto mu ntoki z'iwe, akaba ari imbuto zikiri ku mashami, akaba arimo kuzishyira mu mufuka, bigaragara ko agiye kuzibika.

Ikiganza cy'umuntu gifashe imbuto zitandukanye, akaba afite amasaka ndetse akaba afite na soya, akaba ari kubikura mu gitimbiri kiboshywe mu biti.

Umuntu uri ahantu basaruriye ibigori, akaba afite ibigori mu ntoki ze ndetse hari n'ibindi biri aho hasi. Akaba arimo areba uko byeze, areba umusaruro wiwe.

Ikiganza cy'umuntu ufite imbuto, imbere yiwe hateye ikimera kiri kumera. Bakaba barimo bagaragaza uburyo ibigori bikoramo.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara ndetse akaba yambaye umupira w'umutuku hejuru. Akaba afashe imyaka mu ntoki ye, akaba arimo areba umusaruro we.

Inka nyinshi ziteraniye ahantu hamwe, zose zikaba zifite amahembe maremare ndetse zikaba zambaye n'amaherena.

Ubworozi bw'inkoko akaba ari ubworozi bwibanda ku mishwi. Akaba hari ubworozi bukozwe bya kijyambere, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kugaburira amazi n'inkoko.

Umuganga w'amatungo, akaba yambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse akaba afite urushinge. Akaba ari kurutera ingurube. Bigaragara ko arimo kuyivura.

Abavuzi b'amatungo batatu bose bakaba bambaye ibisarubeti ndetse umwe muri bo akaba yambaye bote z'umweru. Umwe akaba ari gukora inka mu nda.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane by'umwihariko ubw'inka ni ubworozi butanga umusaruro mwinshi mu gihe gitoya mu gihe zitaweho neza. Hari ahantu hagaragara abaveterineri bashinzwe kuzitaho umwe ku wundi, bazimenyera ibyo zikeneye byose ndetse anakurikirana ubuzima bwazo uko buhagaze kugira ngo niba hari izirwaye baziteho zibashe kumera neza.

Iyamaswa eshatu ziri mu gasozi, zikaba ziri ahantu hari umukenke, iyi nyamaswa akaba ariyo bakunda kwita ingwe, zikaba zikunda kugira amahane cyane.

Inyamaswa yo mu gasozi, akaba ari inyamaswa nziza cyane, ikaba ihagaze ahantu umukenyi, hirya yayo hakaba hari ibiti birebire, akaba ari naho ikura ibyorya.

Inyamaswa ndende ihagaze iruhande rw'igiti kirekire, hakaba hari ubusitani ndetse iruhande rwaho hari n'ibindi biti birebire.

Inyamaswa yo mu gasozi akaba ari inyamaswa y'inkazi. Ikaba ihagaze hejuru y'igiti irimo ireba imbere yayo. Bikaba bigaragara ko irimo guhiga.

Inyamaswa y'inkazi bakunda kwita intare, akaba ari inyamaswa yo mu gasozi ikaba ikunda kurya izindi nyamaswa, ikaba ikunda kurya inyama.

Inyamaswa yo mu gasozi bakunda kwita inzovu akaba ari inyamaswa nini cyane, ikaba iri ahantu hahinze umukenke ndetse hirya yawo hari ibiti byinshi birebire.

Inyamaswa zo mu gasozi akaba ari inyamaswa eshatu harimo imbyeyi ihetse akana gatoya. Akaba ari inyamaswa zikunda guhiga, zikaba ziri ahantu mu byatsi.

Agakoko keza cyane, gafite ubwoya bwinshi, kakaba gahagaze mu ndabo nziza cyane z'umutuku ndetse n'iz'umuhondo, hirya yaho hakaba hari ibindi bimera.

Inyamaswa y'inkazi ndetse ikaba n'impigi, bakaba bakunda kuyita ingwe. Ikaba ikunda kwibera mu gasozi, ndetse ikaba irya izindi nyamaswa ikaba irya inyama.

Inyamaswa y'inkazi, akaba ari inyamaswa, bita ingwe, ikaba yasamye bigaragara ko ifite amahane, akaba ari inyamaswa, ikunda kurya, izindi nyamaswa.

Inyamaswa zo mu gasozi, ni inyamaswa z'ingirakamaro, akaba ariyo mpamvu zikwiye kwitabwaho ndetse zikabungabungwa muburyo bwose kugira ngo zibashe gukurura ba mukerarugendo bityo igihugu cyacu giterare imbere, cyinjiza amadevize menshi cyane.

Inyamaswa nini bakunda kwita inzovu. Imbere yayo hari imodoka nini itwaye ba mukerarugendo baje gusura ino nzovu. Iruhande rw'imodoka hakaba hari ibyatsi byinshi.

Inyamaswa zo mu gasozi ni inyamaswa zikwiye kwitabwaho, hano haragaragara inyamaswa ebyiri zo mu gasozi kandi nazo zigira uruhare mu gukurura ba mukerarugendo, zikinjiza amadevize ariyo mafaranga y'amanyamahanga, bityo Igihugu cyacu kikarushaho gutera imbere, bidasize n'umuturage.